Bamwe mu babyeyi baturuka mu turere dutandukanye two mu Rwanda, bavuga y'uko kuba harashyizweho amavomo rusange byagabanyije indwara ziterwa n'umwanda, kuko amazi ari isoko y'ubuzima.

Iyo umuntu arwaye akagana ibitaro, ahabwa serivisi nziza cyane kugira ngo amagara ye arengerwe hakiri kare, ibi ngibi bituma akira vuba, agasubira mu buzima busanzwe, agakomeza imirimo itandukanye yakoraga kugira ngo yiteze imbere.

Abantu bose aho bava bakagera barashishikarizwa gukunda ubuzima, waba ugeze mu za bukuru, wawe ukiri muto, ntugapfobye ubuzima bwawe kuko ubuzima bwawe nicyo gishoro ufite.

Abaturage batandukanye bavuga yuko amavomo rusange bashyiriweho baba bagomba kuyafata neza, bakayakorera isuku kugira ngo azabashe kumara igihe kirekire cyane.

Iyo ugeze ahatangirwa serivisi kwa muganga, usanga hari abiganjemo ababyeyi bazanye abana, ibi ngibi biterwa n'uko abana iyo bakiri batoya bakunda kurwaragurika kenshi, bityo rero bigasaba ababyeyi babo kubahoza kwa muganga.

Kuva umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kurengera no kwita ku burenganzira bw'abana UNICEF watangira gukora, abantu batotezaga abana mu myaka yo hambere bisubiyeho kuko bamenye y'uko abana bagomba guhabwa uburenganzira bwabo.

Bitewe na gahunda Leta yashyizeho yo kwita ku burenganzira bw'abana, usanga habaho amahugurwa ahugura abantu ku buryo bakita kubana neza ntibabahutaze, buri mwana agahabwa uburenganzira bwe.

Kugira ubuzima bwiza bisaba yuko wubahiriza amabwiriza yose uhabwa n'abaganga, n'igihe ugiye mu ruhame ukambara agapfukamunwa ndetse mugahana intera kugira ngo ibyorezo bimwe na bimwe bitabibasira.

Minisiteri y'ubuzima ku bufatanye n'inzego z'ibanze, bagiye bakora ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage bose kubaka kandagira ukarabe kuko bagomba kujya bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune igihe cyose bavuye ku musarani.

Ababyeyi bo mu gihugu mu duce dutandukanye bavuga yuko gahunda yo kugaburira abana ku mashuri yongereye icyizere ndetse n'ubushobozi bwo gutsinda, ubu abana basigaye batsinda kurusha uko mbere batsindaga batarya.

Iyi ni inama iri gukorwa n'abantu bagera kuri batanu, buri muntu afite agacupa k'amazi, telefone irambitse imbere ye, ndetse n'akantu ko kwandikaho abenshi bari kujya batanga ibitekerezo abandi bakabatega amatwi ibi ni ibintu byiza cyane abantu bose bakwiye kubyigiraho.

Abatanga serivisi z'ubuzima bagerageza gukorera mu mucyo ndetse bagakorana ubushishozi n'ubwitange, ibi bibaho kugira ngo abaturage babibonemo, bajye babayoboka kenshi.

Ababyeyi bose barashishikarizwa kujya bapima abana babo bakamenya ibiro bafite, iyo bapimye abana bituma bamenya uko bari kugenda bakura bakamenya ahari icyuho ndetse n'icyo kongera.

Abatanga serivisi z'ubuzima zitandukanye banyuzamo bagahurira hamwe nabo bakaganira ku byo bakora, guhugura burya ni ikintu kiza no mu kazi kose waba ukora, aho waba uherereye hose.

Kuko amazi ari ubuzima, leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho amavomo rusange, aho usanga abantu bose bagenda bakavoma amazi bityo bakimakaza isuku mu miryango yabo, bigatuma umwanda ucika.

Mbere y'uko muganga atangira gukoresha bya byuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bitaro, hari impuguke zibanza kumusobanurira uburyo bikoreshwa, bityo bigatuma atanga serivisi zizewe yuko nta ngaruka zagira ku murwayi.

Ni abantu bahuriye hamwe bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurengera uburenganzira bw'abana yunisefu, bambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'umukara abenshi begamye ku cyapa abandi bafashe positeri zitandukanye.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu, ahagaze imbere y'ikintu cy'cyuzi, hakurya hahagaze abandi bana benshi cyane, bari kwitegereza ibyo arimo, biragaragara yuko uyu mwana afite isuku kurusha bariya bahagaze hakurya.

Mu rwego rwo kurinda ikwirakwizwa ry'ibyorezo nka Murburg na Corona virus, hashyizweho gahunda yuko buri muntu ugiye kwinjira ahantu hahurira abantu benshi, agombwa gutungwa akuma gapima umuriro kugira ngo bamenye ikigero cy'umuriro afite.

Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kugira ngo ubeho neza bisaba y'uko ugira isuku umubiri wawe ukawugirira isuku, urugero ugakaraba amazi meza n'isabune inshuro nyinshi, bikagufasha kwirinda indwara zandura ndetse ukirinda n'indwara nk'inzoka ndetse n'ibindi.

Abakozi bo mu ngo, bavuga yuko kumesa no guteka ariko kazi kabatwara umwanya munini hamwe no kwita ku bana bakiri bato, cyane cyane abari munsi y'imyaka itatu ndetse n'ine.

Abayobozi batandukanye bakunda kwitabira ibikorwa nk'inama n'amahugurwa, ibingibi bibaho kugira ngo bahugurwe bakore akazi kabo neza cyane ndetse biteza imbere igihugu.

Ubukwe bwatashywe n'abantu b'ingeri zose kandi bose barishimye, bambaye imyenda myiza igaragara neza amakoti, amakanzu, ibitenge ndetse n'indi myenda, bose banyweye kandi hari n'itente bicayemo ry'umweru.

Kubera yuko amazi ari ubuzima niyo mpamvu abaturage bose baba bishimira yuko bafite amazi, urugero iyo ugiye guteka ukabona amazi meza ukoresha bikugirira umumaro ndetse n'iterambere ryawe rikagenda neza kuko uba ubayeho neza nk'uko ubyifuza.

Abatanga serivisi z'ubuzima harimo abaforomo n'ababyaza ndetse n'abadogiteri bavuga yuko igikorwa cyo guhura kibongerera ubumenyi, ugasanga basangiye ubunararibonye.

Bitewe n'ubukangurambaga bwa leta butandukanye bugenda bukorwa, hirya no hino mu gihugu, Abanyarwanda benshi bamaze kumenya yuko isuku ari isoko y'ubuzima, bakunda gukaraba amazi meza n'isabune buri munsi.

Gahunda yo gukangurira abaturage kwimakaza isuku mu byo bakora byose yageze ku baturage bose bo mu gihugu, ubu mu Rwanda nta muturage utazi yuko agomba kugira isuku, agakaraba, akambara imyenda imeshe, agateka n'ibiryo byateguranywe isuku. Ibi bituma ubuzima bugenda neza.

Mu Rwanda rwo hambere wasangaga umuco Nyarwanda uri ku isonga ariko na n'ubu hari ibikorwa bigenda bikorwa nk'imbyino gakondo, ibikoresho bya gakondo ndetse n'ibindi bintu biranga umuco.

Bimwe mu byumba bitandukanye bigenda byifashishwa hakorerwamo inama zihugura abaturage ku bintu bitandukanye byatuma biteza imbere, aha haganirwamo nko k'ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Mu rwego rwo kurwanya igwingira mu baturarwanda, hagenda hakorwa ubukangurambaga butandukanye, kugira ngo ababyeyi bose b'abapapa bajye bita ku bagore babo mu gihe batwite.

Umwana iyo akimara kuvuka hari inama zitangwa y'uko umwana aba agomba gushyirwa ahantu hashyushye, akambikwa imyenda y'umwana yabugenewe ndetse akitabwaho umubyeyi akabona ikintu anywa kugira ngo amashereka yiyongere.

Ku bigo by'amashuri byose haba harashyizweho kandagira ukarabe zifasha abanyeshuri mu kugira isuku y'intoki, aha ni ho bakarabira amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo birinde indwara nk'impiswi n'izindi ndwara zose ziterwa n'umwanda.

Abakozi bahuje akazi bakunda kuba buri muntu ahugiye mu bintu bye ariko hari igihe kigera bagahura, bakaganirira hamwe ku buryo akazi bagakora neza kuko akenshi usanga banakorana bagirana imikoranire ya hafi cyane.

Akenshi mu bitaro byo mu Rwanda usanga aho bategerereza serivisi haba hari ibishushanyo bigaragaza uko abantu bakwinda indwara zitandukanye ndetse n'inyigisho zitandukanye, harimo nk'aho usanga batoza abantu gukora isuku ndetse no kwita ku mibiri yabo.

Benshi mu babyeyi bafite abana bato bavuga yuko bishimira serivisi bahabwa n'abaganga kuko bafite ukuntu bita ku bana neza bagafata imiti neza kandi bagakira.

Imirimo nko gupakira no gupakurura ibicuruzwa bitandukanye mu mamodoka, mbere wasangaga ari imirimo ikorwa n'abagabo gusa ,ariko ubu ngubu rimwe na rimwe ujya kubona ukabona n'abagore barimo barayikora.

Aba bantu ni batatu, umwe n'umubyeyi wikoreye ijerekani, wambaye imyenda irimo amabara menshi, imbere ye ha hagaze abana babiri, umwe yikoreye na we ikintu cy'umuhondo, undi mwana yikoze mu kanwa yambaye imyenda y'ubururu, ndetse bigaragara ko ari umwana w'umukobwa.

Kugira ngo indwara zitibasira ubuzima bw'abaturage cyane, hari abayobozi baba bagomba guhaguruka babifite mu nshingano, bagakora inama z'ukuntu indwara zahagarikwa, ntizibasirare ubuzima bw'abaturage. Iyo abaturage bibasiwe n'indwara.

Iyo muganga agiye kugutera urushinge mbere, uba wumva biguteye ubwoba. Ariko ntabwo umenya igihe yarugutereye kubera yuko ni ibintu byihuta kandi bifata umwanya muto cyane.

Umuryango mpuzamahanga wita ku bana Unicef, ugira abantu bose ku isi yuko bagomba gutoza abana kugira isuku bakiri batoya, bityo bakure bafite ubuzima buzira umuze.

Kuvoma ku mavomero rusange ni byiza cyane, iyo bikozwe mu bwumvikane hagati y'abagiye kuvoma; kuko hari igihe usanga umuntu yatanze undi kugerayo, undi agashaka kuvoma mbere ye bigatuma barwana.

Nyuma yo gukora akazi kavunanye abatanga serivisi z'ubuzima baba bagomba kuruhuka mu mutwe, ibi babikora bakora ibikorwa nko kwicara hamwe bakaganira ndetse bakanyuzamo bakanaririmba indirimbo zituma bishima.

Icyiza cyo kujya kwa muganga ni uko mbere yuko bakuvura babanza bakagukorera isuzuma mu buryo bwose bushoboka, bityo bakaguha imiti bazi neza ahafite ikibazo mu mubiri wawe.

Ikigo K'Igihugu gishinzwe ibyo gukwirakwiza amazi WASAC, gisobanura yuko aya mavomo rusange yagiye ashyirwaho, yoroheje abaturage kuko kera wasangaga abaturage bakoresha amazi yanduye bikabakururira indwara.

Abaturage barashimira Leta y'u Rwanda yabagejejeho amavuriro ya kizungu kuko kera bajyaga kuvoma mu kabande ahazwi nko kuri kano. Ibi byatumaga bavoma amazi y'ibirohwa, bayanywa bakagira ibibazo byo mu nda.

Abana benshi bavuga yuko bashimira Umuryango Mpuzamahanga ubitaho witwa Unicef, kubera yuko bitewe na wo hagiye hakorwa ubukangurambaga ndetse n'ibikorwa byo kwita ku bana.

Iyo umubyeyi abyaye akana kagatangira kurwaragurika kakiri gato, aba asabwa kujya ku ivuriro kugira ngo abaganga barebe ikibazo afite, ibi ngibi bituma abaganga bamuha imiti, bityo agakura afite ubuzima buzira umuze.

Mu duce tumwe na tumwe ahatari hagera amazi ya robine, usanga bajya kuvoma mu biyaga ndetse bakavoma amazi yanduye, yakoreshejwe n'abandi bantu nk'aboza amagare, amapikipiki n'ibindi, hagomba kujyanwa amarobine.

Kuri buri kigo nderabuzima cyo mu rwanda, usanga habaho umunsi wo guhugura abaturage ku bijyanye n'indwara baba bagomba kwirinda bo ubwabo, ibi ngibi bikunze kuba nka gatatu mu mwaka cyangwa kane kuko usanga abaturage benshi babishima cyane.

Kugira ngo icyorezo cya Marburg kigabanye umurego, ni uko habayeho ibiganiro bitandukanye byagiye bikorwa na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'ikigo RBC gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bagatanga amabwiriza y'ukuntu abaturage bose bagomba kwitwara.

Abashinzwe kuvura abafite ubuzima bwo mu mutwe bavuga yuko iyo umuntu ahuye n'abandi bagasabana, bagaseka ndetse bagasangira umunezero wabo bituma mu mutwe batekereza neza cyane.

Akenshi iyo umuntu afite ibibazo mu mitekerereze, aba akeneye umuntu umwegera akamuganiriza, akumva agahinda ke ndetse akumva intandaro y'ikintu cyamubabaje. Ibi ngibi iyo bitabayeho ni byo bituma umuntu ashobora no kwiyahura.

Nubona umuntu afite agahinda kenshi, amarira atemba ku maso, uzamwegere umubaze icyo yabaye umuganirize. Kuko ibi ngibi iyo bibaye bituma aruhuka mu mutwe, akamenya yuko hari abantu bamuhangayikiye, bityo akagaruka mu buzima busanzwe.

Ubwonko iyo bukora neza usanga umuntu afite ubwenge bwinshi cyane, akaba ari umuntu ukora ibintu ku murongo, akaba ari wa muntu usanga abandi bose bareberaho, cyangwa se bakamufatiraho urugero, niyo mpamvu ubwonko bukwiye kubahwa, ndetse bugahabwa agaciro cyane.

Umuntu ntabwo agomba kujya gushaka muganga umuganiriza gusa mu gihe yakennye, ahubwo ashobora no kujyayo ashaka kumenya uko yafata imyanzuro igiye itandukanye mu buzima bwe cyangwa se akamenya uko yabana n'umuryango we.

Umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe nibwo abaganga bose begeranira hamwe bagatekereza ku buryo bazafata neza ubuzima bwo mu mutwe bw'abarwayi babagana, bityo ugasanga serivisi zitangwa, ni serivisi zinoze kandi umuntu wese yakwishimira guhabwa.

Abaganga benshi bavuga yuko iyo bagiye kuvura abantu, ari byiza yuko bagomba kubanza kubaganiriza, bakamenya ikibazo bafite, kubera yuko ahanini bituma abarwayi babasha gukira vuba kuko babashije guhumurizwa.

Inama rusange zihuza abaturage bakicara hamwe bakaganira ku cyabateza imbere. Ahangaha niho usanga abenshi bakuye igitekerezo runaka, bakaba bakora imishinga bakibumbira mu matsinda.

Baricaye barimo baravuga ku bijyanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi, umugore yambaye ikote rijya kuba ubururu ariko na none atari ubururu neza afite mikoro, umugabo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikoti ry'umukara n'ishati ya karokaro.

Abafite uburwayi bwo mu mutwe baragenda biyongera cyane kuko iyo ugiye ahantu hahurira abantu benshi nko mu mijyi, muri za gare cyangwa mu masoko rusange, usanga abafite uburwayi bwo mu mutwe biganje. Ni ngombwa ngo hatangire higwe ku buryo bafashwa.

Kuganiriza umuntu ku buzima bwo mu mutwe, bifasha mu gutuma abaho neza kubera yuko aba yahawe inama zose zishoboka kugira ngo amenye ibyo yirinda ndetse n'ibyo adakwiye gukora n'imirongo ntarengwa.

Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, bavuga yuko buri muturage aramutse atanze uruhare rwe mu gukumira no kurwanya uburwayi bwo mu mutwe byatanga umusaruro ugaragara.

Minisiteri y'ubuzima yatangije gahunda yo kujya yerekeza mu byaro bitandukanye, hamwe n'abaganga babihuguriwe mu kugira ngo baganirize abantu bose bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Abafite ubumuga bwo mu mutwe bakunda kugaragara kenshi mu mijyi, usanga bagiye batoragura ibintu bidafite umumaro nk'amashashi, ibikarito n'ibindi bintu byashaje bitagira ikintu bikora, ni ngombwa yuko abize kuvura uburwayi bwo mu mutwe bajya babegera bakabaganiriza.

Guseka bivura sitresi, bivura umunaniro ndetse binavura umunabi, Leta irashishikariza abantu bose n'ubwo waba ufite ibibazo ko wajya ufata umwanya ukareba ikintu kigushimisha.

Abakora imyuga y'ubugeni n'ubuhanzi bavuga yuko ibingibi bibafasha kugera ku iterambere cyane kuko abantu benshi baba bashaka gutaka amazu yabo, bakeneye utuntu tw'utubumbano barabafasha cyane bakabaha ibiraka.

Mu rwego rwo kurwanya SIDA, Leta yatangije ubukangurambaga bukorerwa ahantu hatandukanye, kugira ngo abantu bagende basobanukirwa uburyo bwo kwirinda SIDA butandukanye.

Mu rwego rwo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, no kugabanya uburwayi bwo mu mutwe, hagenda hashyirwaho imbuga nkoranyambaga zakwifashishwa mu bukangurambaga ndetse no guhugura abantu.

Igikoma ni kimwe mu bintu ababyeyi bakunda gukoresha cyane, kugira ngo gifashe abana mu mikurire myiza, ese wari uzi yuko ababuze igikoma batabona amashereka bonsa abana?

Abafite uburwayi bwo mu mutwe ni benshi cyane, kandi birasa n'aho batagira kivurira kuko usanga abantu benshi babirengagiza, ni byiza yuko Leta yatangira gahunda yo kujya ibafata ikabashyira ahantu hamwe habugenewe, ikabaha iby'ibanze.

Mu rwego rwo kugabanya ibibazo bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se n'ibindi bibazo bifitanye isano n'ubwonko n'imitekerereze, mu Rwanda hashinzwe ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Uwihoreye Charte nk'impuguke ku buzima bwo mu mutwe yavuze yuko mu gihe cyo kwibuka abarokotse Jenoside ari ngombwa guhumurizanya kugira ngo hataboneka abantu benshi barwara ihungabana.

Abahanga mu by'ubuvuzi bw'amenyo bavuga yuko byibuze umuntu yagakwiye koza amenyo gatatu ku munsi, ibi ngibi bifasha umuntu kwirinda indwara zo mu kanwa nk'amenyo ndetse no kurwara izindi ndwara.

Iyo umuntu arwaye amenyo akajya kwa muganga bikaba ngombwa yuko bamucisha mu cyuma, barasikana bakareba urwasaya rwe uko rumeze, bakajya babona iryinyo rifite ikibazo n'iridafite ikibazo bityo bakamenya iryo bari buvure cyangwa se bari bukure.

Abantu bafite uburwayi bw'amenyo baba bagomba kwitabwaho n'abaganga babihuguriwe, kugira ngo babashe gukemura ibibazo bafite, hari abahabwa imiti amenyo agakomeza agakora, ariko amenyo yarenze yo barayakura.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni ingirakamaro ku mubiri wacu kandi ni twe tugomba kubigiramo uruhare, ahazaza hacu hashingiye ku buzima bwiza, niyo mpamvu amenyo yacu tugomba kuyitaho tukayakorera isuku tukiborosa nk'uko bikwiye.

Gutoza abana umuco wo kwita ku menyo bakiri bato, bituma babikurana maze ugasanga amenyo yabo azira indwara kugeza babaye abasaza, nimureke twese dukangurire abana kwita ku isuku yo mu kanwa.

Abaganga b'inzobere bashimangira y'uko, amenyo ari ikintu cy'ingenzi, abantu bose barashishikarizwa gufata amenyo yabo neza bakayagirira isuku, bagakunda kwiborosa kenshi, kuko birinda indwara z'amenyo.

Mu mashuri ya leta cyangwa se no mu mashuri yigenga usanga abarimu bahigisha, bigisha abanyeshuri gukora ibintu bigiye bitandukanye. Uretse kubigisha amasomo yo mu ishuri banabigisha kwita ku mibiri yabo nko kwita ku menyo yabo.

Nta kintu cyiza nko kubona umuntu yubahirije amabwiriza atangwa na minisiteri y'ubuzima, agafata amenyo ye neza cyane bigatuma amenyo ye atarwara ifumbi cyangwa ngo ahinduke umuhondo. Aya menyo usanga ari urwererane.

Iyo abantu bafashe amenyo yabo bakayagirira isuku, bakiborosa gatatu ku munsi nk'uko bitegekwa na minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'ikigo cyigihugu gishinzwe ubuzima, usanga umuntu aseka nta rwikekwe afite, kuko amenyo ye aba asa neza.

Uyu muntu arimo araseka neza cyane rwose kandi biragaragara yuko amenyo ye ameze neza yogeje neza, kugira isuku y'amenyo bituma umuntu aseka abantu bose bakabyishimira, abantu bose bagiye bagira isuku y'amenyo byajya bituma bagira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Muganga ni umuntu ukora ibintu bye atuje nta guhubuka ndetse nta n'igihunga, kuko aramutse ahubutse agakora ikosa ryatuma ubuzima bw'abantu bujya mu kaga, muganga yubahwe aho yaba ari hose.

Ibyiza byo gukoresha neza imiti isukura amenyo, ni uko usanga amenyo ameze neza yera, azira indwara nko gucukuka, ifumbi ndetse n'izindi ndwara zose zifata amenyo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gikunda kugaruka kuri iki kintu cyo kugira isuku y'amenyo, niba umuntu afite amenyo aba agomba kuyagirira isuku kugira ngo ejo hazaza atazaba umwe mu batagira amenyo bitewe n'indwara.

Iyo bagiye gusuzuma ibibazo by'amenyo, barebera mu cyuma cyabugenewe, ahanini nk'umuntu usanga amenyo ye afite ibibazo bahita babibona, bakareba no mu ishinya mu imbere bakareba uko iryinyo rimeze, niba ryaraboze cyangwa se ryaracikiyemo.

Biba byiza iyo umukobwa w'inkumi yitaye ku isuku y'amenyo akagira amenyo y'urwererane, kubera yuko abasore benshi iyo bagiye kurambagiza, birebera abakobwa baseka neza kandi ntiwaseka neza utagize isuku y'amenyo.

Abita ku bana nk'abarimu, ababarera ndetse n'abandi bagomba kubigisha kugira isuku yo mu kanwa kugira ngo bitoze gufata neza amenyo yabo bakiri batoya, ibyo bibarinda kurwara indwara zo mu kanwa.

Iyo umuntu arwaye iryinyo hanyuma yajya kwa muganga bakabona ryarajemo umwenge nta bundi buryo barivura, niho bafata umwanzuro wo gukura iryo ryinyo, umurwayi bamutera ikinya ubundi bakarikura.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwo mu kanwa bumeze neza cyangwa se agira amenyo mazima agomba kuyitaho buri munsi, ibingibi bisaba gufata korogate ukiborosa buri uko umaze kurya ndetse igihe cyose ukabizirikana.

Iyo ugiye kwivuza amenyo kwa muganga, muganga afite uko areba uburwayi bw'amenyo yawe maze ubundi akagufasha bigendeye ku ndwara ufite uburemere bwayo, urugero hari igihe usanga iryinyo ryaratobotse cyangwa se ugasanga iryinyo ryaraboze aho ngaho haguha imiti yihariye.

Iyo agace runaka karimo abantu benshi bafite ibibazo by'amenyo, ni byiza yuko bajya bajyanwa ahabugenewe bagatozwa kugira isuku y'amenyo ndetse no gukoresha korogate nkuko byagenwe.

Iyo umuntu atangiye kwita ku menyo ye akiri mutoya, bimufasha gukura yaririnze indwara zishobora guturuka ku mwanda wo mu kanwa, ibi ingibi birabwirwa abantu bose bafite abana ndetse n'abitegura kugira abana, kugira ngo bajye bita ku menyo yabo.

Abari mu za bukuru nabo iyo bagannye ivuriro barwaye baba bakeneye umuganga ubiyitaho akababababa hafi akabereka ukuntu banywa imiti ndetse akabizeza yuko bazakira vuba, ibi ngibi bituma indwara yabo igenda igabanuka.

Abasaza n'abakecuru bo mu Rwanda, bavuga yuko indwara zabibasiraga zagabanutse ku kigero cyiza cyane ugereranyije no mu myaka ya cyera, aho ubuvuzi bwari butaratera imbere hano mu Rwanda.

Akenshi iyo umuntu ageze mu za bukuru usanga akunze kwicara hamwe akigunga, ariko ibi ntago biba bikwiye kubera yuko tuba tugomba kubegera tukabaganiriza, tukabumvisha ko nubwo bageze mu zabukuru bagifite byinshi byo gukora ku iterambere ry'u Rwanda.

Guhuza urugwiro ni byiza cyane kuko uwo muhuje urugwiro muraganira mukishima yewe mugakubita n'agatwenge, kuko iyo musetse biba ari byiza ku buzima bwanyu urukundo rwanyu ruriyongera.

Ni byiza ko abavura abari mu zabukuru babitaho ndetse bakabaganiriza ku ndwara yabo, bakanasobanukirwa neza gahunda yo gufata imiti kubera yuko bakunda kwibagirwa, baba bakeneye umuganga ubaba hafi.

Abageze mu myaka y'izabukuru nabo bajya banyuzamo bagahura bakagira umunsi wo kwishima, ibingibi basobanura ko bibafasha gukomeza kubaho neza kubera y'uko baba bishimye.

Iyo umuganga agiye kuvura umuntu uri mu zabukuru, agomba kwisanisha n'ikigero arimo ndetse akamwitaho nkuko bikwiye, akamuha n'icyubahiro amugomba, ibi bituma umurwayi agira icyizere cyo gukira vuba.

Bamwe mu basaza bagana amavuriro, bavuga yuko bahabwa serivisi nziza cyane, kubera yuko bahasanga abaganga babigize umwuga kandi bazi icyo gukora. Ibi ngibi bituma n'indwara zabo zigenda zikira buhoro buhoro.

Abari mu myaka y'izabukuru na bo bagomba kujya bayoboka gahunda za leta zitandukanye, kuko nubwo baba bafite imbaraga nkeya, ntabwo bakigunga ngo bahore mu nzu, ahubwo bagomba kujya mu bikorwa bya leta kuko nibwo igihugu gitera imbere.

Abatanga serivisi zo kuvura abantu bageze mu zabukuru, usanga bavuga yuko ari akazi keza bakunda ariko ni akazi katoroshye kuko gasaba gushishoza cyane ku buryo bufatika.

Kera abantu bari mu myaka y'izabukuru, batinyaga gufata ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mikoro ndetse n'ibindi ariko kuri ubu ngubu n'umukecuru ashobora gufata mikoro akavuga ijambo rikagera ku bantu benshi.

Gusangira n'umufasha wawe cyangwa se umugabo wawe, ibi byongera urukundo mu muryango wanyu maze iminsi mubanye mukayibana munezerewe, ibi ngibi bituma n'abana banyu babigiraho umuco w'urukundo.

Iyo umuntu ageze mu zabukuru aba akeneye umuntu ukiri muto wo kumufasha nko gutegura ibyo kurya, kumwoza, bityo agakomeza kubaho abona ko hari abantu bamukunze, ibi ngibi bituma iminsi yo kuramba yiyongera.

Abacuruzi bacuruza imbuto mu masoko atandukanye, bavuga yuko inyungu yiyongereye bitewe nuko babonye ahantu bakorera, bayobokwa n'abakiriya benshi. Bavuga ko umusoro bagomba kuwutanga babyishimiye.

Iyo ari mu bukwe habaho icyo bita imisango. Ni aho umubyeyi w'umusore n'umubyeyi w'umukobwa cyangwa se ababahagarariye bafata umwanya wo kuganira kugira ngo bubahirize gahunda yahozeho kuva kera.

Imiryango itandukanye ndetse n'abaturanyi bajya bahurira hamwe bakicara bakaganira niho bungurana ibitekerezo abandi bagasangiza amakuru bafite bagenzi babo batari basanzwe bazi bigatuma barushaho gukundana ndetse no kwiyunga umuryango nyarwanda ukarushaho kubaho mu bumwe kandi buzira amakemwa.

Benshi mu basaza basobanura yuko indwara bakunda kurwara akenshi ziba zaraturutse ku bintu bagendaga bakora bakiri batoya, batanga inama ku bakiri bato y'uko bagomba kwirinda mu gihe bakiri bato.

Abita ku bari mu zabukuru rwose usanga babikora neza, kuko n'abari mu zabukuru babitangamo ubuhamya yuko serivisi babonera ku bitaro bya Leta cyangwa se n'ibyigenga iba ari serivisi nziza cyane.

Abageze mu myaka y'izabukuru na bo bakenera guhura n'abana bakiri bato bagasabana, ibi ngibi bituma batoza abo bana umuco wo gukundana ndetse no guhuza urugwiro, bagakura babikunze.

Umuntu ufite ubumuga arimo arafashwa n'umuganga kugenda, ari gutambuka ku makaro ndetse umuganga yambaye ishati y'umweru yabugenewe, ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, uyu mugabo afite ubumuga ariko biragaragara yuko a afite icyizere cy'uko azakira.

Ubundi mu rugo biba byiza iyo umugore n'umugabo bakundanye, ariko abagore basabwa kugandukira abagabo babo n'abagabo bagakunda abagore babo kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose.

Myinshi mu miryango ibayeho inezerewe ntabwo ari uko bafite amafaranga menshi cyane, ahubwo urukundo no kunyurwa nibyo bituma akeshi usanga abantu banezerewe, basabana ndetse baseka.

Ibigo bifasha abantu bari mu zabukuru, byashyizweho kugira ngo bajye bahurizwa hamwe bitabweho, kubera yuko iyo bageze mu myaka y'izabukuru bataba bakibasha kugira ikintu bikorera ibi bibafasha kugumya kubaho batigunze.

Abafite ubumuga bw'ingingo ni bamwe mu bantu batekerejweho cyane na Leta y'u Rwanda, bityo baborohereje kujya babona utugare bagendamo ndetse tugahabwa abagize umuryango wabo bakajya babafasha kubitaho.

Kuba umuntu ari umusaza ntibivuze yuko atagomba gukina n'abana bato ndetse abatetesha, ibi bituma abana bakurana urukundo kuko na bo baba barwerekwa n'ababyeyi babo.

Kenshi na kenshi abakora mu bitaro bivura abari mu zabukuru, bagirwa inama yo kujya babaguyaguya nk'abana bato, kuko nabo baba bakeneye kwerekwa urukundo kuko n'ubwo baba bafite imyaka myinshi, baba bakeneye y'uko umuntu abitaho akabatetesha.

Biba bishimishije iyo umukecuru agifite akabaraga, akaba yabasha kwitekera ibyo kurya ndetse akaniyitaho ariko hari aho bigera agasaza ku buryo nta na kimwe abasha kwikorera, aba akeneye abantu bamuba hafi nk'abuzukuru ndetse n'abandi b'umuryango bakamufasha.

Iyo umugore n'umugabo bakundana, usanga bafatanya utuntu twose, baseka basabana nta n'umwe ufite icyo yishisha undi, ibi ngibi bitangira bagishakana kugeza mu busaza bwabo.

Abageze mu zabukuru baba bagomba gufata umwanya, bagasomerwa zimwe mu nyandiko zirimo amasomo atandukanye kugira ngo ubwonko bwabo burusheho gukangurwa, bamenye ibintu byinshi batazi mu buzima.

Burya ngo iyo umuntu ari mukuru akabasha guhura n'abandi b'urungano rwe bakishimana bagatemberana yewe bakanasangira bituma iminsi yo kubaho yiyongera.

Imikino nka dame, ibibuguzo ni imwe mu mikino ifasha abantu gusabana ndetse bakaruhura mu mutwe, akenshi usanga abakina iyo mikino bafungutse mu mutwe cyane ku buryo byaba bigoye kumuriganya, bituma umuntu amenya gukurikirana akantu ku kandi.

Abasaza bakunda kwishimira abantu babaha serivisi babagaragariza ko babitayeho, babereka urugwiro babagira inama ndetse banabisanzuraho cyane, bituma banywa imiti neza kandi bagakira ku gihe.

Umusaza uri mu zabukuru kubona yakandika atambaye amarinete byakugora. Ibi biterwa n'uko amaso aba yararwaye, yarangiritse ku buryo bukomeye.

Ku munsi Mpuzamahanga wo kurwanya Sida wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hatangiwe inama zitandukanye harimo gukoresha agakingirizo ndetse no kwirinda gukora mu matembabuzi y'umuntu urwaye Sida.

Iyo abakobwa bahuriye hamwe ari urungano bituma baganira ku mibereho yabo ndetse bakagira n'umwanya wo kwishimisha kuko baba bahuje umugambi, bahuje imyaka, bahuje urugendo bityo bikabafasha kwiteza imbere ku buzima bwabo.

Umuntu wese aba agomba gukunda ubuzima, ubu ni ubutumwa bw'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC, kubera yuko ubuzima bwawe ni cyo gishoro cya mbere nta kintu wageraho udafite ubuzima, nta kintu wakora udafite ubuzima buzira umuze.

Ubukangurambaga bugenda bukorwa mu kurwanya SIDA, bugenda bufasha abana benshi bakiri bato kumenya uburyo butandukanye bwo kwirinda SIDA. Aha harimo nko kwifata, gukoresha agakingirizo mu gihe kwifata byananiranye.

Ku itariki makumyabiri nesheshatu z'ukwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, habaye umunsi mpuzamahanga wo kugaruka ku buzima bw'ibidukikije ku isi hose, uyu munsi witabiriwe n'ibihugu byose kuko buri gihugu kibamo ibidukikije.

Iyo abantu bahuriye ku ntego bagera igihe bakicara hamwe bagahuza umugambi ndetse bagasangira, bagasabana, ibi ngibi bigaragaza ubumwe ndetse n'urukundo hagati y'abantu ndetse usanga ari byiza cyane rwose.

Benshi mu bayobozi bakunze gutegura imbwirwaruhame bakazigeza ku bantu runaka, bishima iyo babona buri muntu wese abitayeho ndetse ashaka kumva ibyo bavuga, abigaragaza abaza nk'ikibazo cyangwa agatanga igitekerezo.

Kugira ngo icyorezo cya Vovid cumi n'icyenda kigabanye umurego, Leta y'u Rwanda yagiririye inama y'uko abaturage bose bagomba kwambara agapfukamunwa ndetse bakicara bahanye intera.

Icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Ni kimwe mu byorezo bifata abantu benshi kandi kigakwirakwira ku muvuduko wo hejuru. Ugereranyije n'ibindi byorezo bigenda biza kuri iyi si. Abantu bose barasabwa kwisuzumisha iki cyorezo.

Ubwo mu Rwanda hari hari icyorezo cyitwa Coron Virus, wasangaga ahantu hahurira abantu benshi hashyirwa ibyapa ndetse n'amashusho abafasha mu gusobanukirwa byinshi kuri iki cyorezo cya Coron Virus.

Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni uko buri muturage agomba kugira ubuzima bwiza, ni yo mpamvu hagenda haba ibiganiro bitandukanye byo guhugura abaturage, kugira isuku mu ngo zabo kugira ngo birinde indwara z'impiswi ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'isuku nke.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga yuko iyo umuntu ameze neza n'igihugu kiba kimeze neza, mureke ubuzima bwacu tubufate neza kugira ngo tubashe kwiteza imbere nk'uko bikwiye ntituzasigare inyuma.

Kugira ngo abaganga birinde gukwirakwiza indwara, bagomba kujya bambara neza bakikwiza ahantu hose, udupfukamunwa ntibatwibagirwe ndetse n'ingofero zabugenewe.

Kuri ubu ngubu abagore bahawe agaciro ugereranyije no mu myaka ya kera. Wasangaga batabarwa mu bantu bagirira igihugu akamaro, none ubu n'imiryango mpuzamahanga isigaye yifashisha abagore mu kazi kayo.

Ni ahantu henshi wakura inama zagufasha kwita ku buzima bwawe neza, icya mbere hariho abajyanama b'ubuzima bashyizweho na Leta, hariho amashuri no mu mashuri higishwa uko umuntu yakwita ku buzima bwe, ibyo nabyo abantu baba bagomba kubimenya.

Abaganga baba bagomba kwambara imyenda bakikwiza ahantu hose kugira ngo batagira aho bahurira n'uburwayi bw'abarwayi bagiye kwitaho, ibi bibafasha gutuma nta mwuka w'umurwayi ushobora kuza kwinjira mu bihaha bye kuko baba bambaye agapfukamunwa neza ndetse n'ingofero zabugenewe.

Ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage bose kwirinda indwara ziterwa na mikorobe. Bugenda bukorwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bifasha abaturage gusobanukirwa n'uburyo bakwirinda.

Abafite aho bahuriye n'ubuzima bw'abana bose baragirwa inama yo kujya babegera bagakina nabo bagahuza urugwiro,, bamwe muri bo ni abarimu, ababavura ndetse n'ababarera. Ibi bituma abana bakura bumva yuko bakunzwe mu muryango.

Minisiteri y'ubuzima ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, barashishikariza abaturarwanda bose kujya bagana amavuriro abegereye bakisuzumisha, mu gihe babonye hari impinduka zidasanzwe zaje ku mubiri.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, ubwo icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyageraga mu Rwanda, Leta yashyizeho gahunda zo gusobanurira abaturage, ukuntu bakirinda icyorezo harimo kwikingiza ndetse no guhana intera.

Abacuruza ibikoresho by'ubwubatsi bavuga yuko, iyo bagiye gucuruza ibikoresho bikoreshwa mu kubaka amavuriro, bashyiramo ubunyangamugayo bwinshi kubera yuko ibitaro biba bigomba kugira inyubako zikomeye cyane.

Ababyeyi bishimira kuba leta yarazanye ibyumba byakira ababyeyi bagiye kubyarira kwa muganga. Ibyo ngo byagabanyije akajagari mu bitaro ndetse ngo ababyeyi bumva batuje iyo bagiye kubyara kuko babyarira ahantu hameze neza hiyubashye.

Ibitaro byigenga bimaze kuba byinshi mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yavuze yuko n'abantu bafite ubushobozi bwo gushinga ibitaro nk'amakoperative cyangwa se abantu ku giti cyabo bashinga amavuriro kuko ibi byunganira Leta.

Amavuriro yigenga ni kimwe mu bikorwa biteza imbere igihugu kubera yuko iyo umuntu abishinze hari abo aha akazi ko kubaka abandi bakabona akazi ko gukora muri iryo vuriro.

Hafi mirongo inani ku ijana ry'ibikoresho usanga kwa muganga, biba ari ibikoresho bikoranye ubuhanga kandi bihenze cyane, ku buryo utapfa kubigura udafite amafaranga ahagije.

Yarwaye none muganga yaje kumwitaho ari kumurebera niba ari kugenda yoroherwa, afite igipimo ari kumuhozaho, muganga yambaye ga z'umweru, ndetse n'itaburiya, umurwayi birasa naho yegamye ku gitanda afite icyizere cyo gukira uko byagenda kose.

Byinshi mu bitaro byo mu Rwanda uba usanga bigeraho umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo. Ibi ngibi byakozwe mu kugira ngo horoshwe ingendo kugira umurwayi niba arwaye akeneye ubufasha bwihutirwa, ajye agezwa ku bitaro hakiri kare.

Leta y'u Rwanda yashoye ingengo y'imari mu mavuriro kugira ngo ibikoresho byose bikenewe bigeremo, ibi bituma nta murwayi ushobora gupfa yagannye ibitaro keretse umunsi we wageze.

Mu karere ka Huye hari ikigo gishinzwe kwakira ababaye imbata zo gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi ndetse na ganja. Abagerayo bavuga yuko bafashwa bakaganirizwa, yewe bamwe muri bo bakabicikaho.

Bamwe mu baganga bakorera mu bitaro bikomeye, bavuga yuko iyo bakihagera bagitangira akazi babanza guhugurwa ukuntu bakoresha ibikoresho bihari kugira ngo batabyangiza.

Ku bitaro byitiriwe umwami Faisal, ni ho hatangirwa serivisi zisumbuye ku zindi serivisi zitangwa mu bindi bitaro byo mu gihugu, ibi bitaro ni byo bitaro bigira ibikoresho byinshi ndetse n'abaganga bafite ubushobozi bwo ku rwego mpuzamahanga.

Ku bitaro haba hacungiwe umutekano mwinshi cyane kubera yuko uba usanga hari igipangu gikikije ibitaro, hari ndetse n'umuryango rusange abantu binjiriraho n'uwo basohokeraho. Ibi ngibi bituma umuntu wese yinjiramo hazwi ikintu agiye gukoramo.

Indwara y'amaso ni indwara iri kugenda ifata indi ntera cyane cyane muri iki gihugu, niyo mpamvu ibitaro byose bitegetswe kugira ahantu bavurira amaso kugira ngo iyi ndwara ibe yagabanuka.

Abaganga bo mu bitaro bya Leta bose usanga barahawe amataburiya y'umweru, kugira ngo umuntu najya ababona amenye yuko koko bari mu kazi. Ibi ngibi bituma bakora umwuga wabo ntawubashidikanyaho.

Leta y'u Rwanda ishora amafaranga menshi mu kubaka ibigo nderabuzima kubera y'uko ubuzima bw'abaturage ari bwo ishyize imbere. Ibi ngibi kandi bitanga andi mahirwe y'akazi kuko hari abahakora akazi ko kubaka ndetse n'ikiyede.

Mu bitaro bivurirwamwo abana usanga harimo ibikinisho byinshi ndetse n'utuntu twinshi dufite amashusho meza, ku buryo abana babireba bakabasha kuruhuka mu mutwe, ibi bibafasha gukira vuba kuko baba bafite ibyo bahugiyemo.

Abagana serivisi zo kwa muganga bavuga yuko ibisubizo bitinda muri laboratwari, bityo bigatuma bafata umunsi wose bategereje ibisubizo. Bifuza yuko habonetse uburyo laboratwari zakongerwa cyangwa se n'izihari zigashyirwamo ikoranabuhanga rituma zitanga ibisubizo vuba byaba ari ikintu cyiza.

Kuri ubu ngubu ibitaro byinshi byo mu Rwanda bigiye bifite ahantu heza cyane hatunganyije neza, amayira yaho agiye arimo amapave, inyubako ziriho amakaro ndetse no mu busitani hateye indabo z'amoko yose.

Ubusitani buteyemo imikindo ndetse na pasiparmu n'indabo ,ubu busitani burimo igicucu ndetse hari nahari akazuba ,biragaragara yuko umuntu agiye akicaramo byamugwa neza cyane ndetse yakumva aguwe neza ku buryo budasubirwaho.

Iyo umuntu agiye kwa muganga, mbere y'uko ahabwa serivisi yamujyanye, abanza kugera mu cyumba cyakirirwamo abantu, akaba ategereje yuko bamugeraho. Iyo usanze hari abantu benshi rero, urihangana ukaba uretse.

Mu bitaro bikomeye usanga hari icyumba kijyanwamo abantu bafite ibibazo byihutirwa cyane akenshi usanga babyita irijanse. Iyo umuntu agezemo rero yitabwaho akazanzamuka.

Iyo umuntu arwaye akagana ibitaro bimwegereye abaganga batandukanye b'inzobere bamwitaho, ndetse nawe icyizere kikagenda cyiyongera kuko aba abona uburyo bamugaragariza urukundo, ndetse n'imiti bamuha bityo agakira vuba.

Mu bice bitandukanye byo mu gihugu, usanga hagenda hubakwa amavuriro atandukanye mu kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zegerezwe abaturage bose muri rusange, ibi ngibi bigabanya ingendo ndende zikorwa mu gihe umuntu akeneye ubufasha bwihutirwa.

Munyubako zo kwa muganga usangamo ibikoresho bifasha abaganga gusuzuma uburwayi bw'umuntu aho umuntu yicara bakamupima ikintu arwaye bikarangira bakimenye bitewe n'uko baba bafite ibikoresho byabugenewe.

Minisiteri y'Ubuzima ishishikariza abaturarwanda bose by'umwihariko ababyeyi ko bagomba gupimisha abana babo ibiro kugira ngo bamenye imikurire yabo. Iiyo basanze umwana afite ibiro bidahwanye n'imyaka afite cyangwa se bidahwanye n'igihe amaze, bamutegeka ibintu agomba kumugaburira.

Hirya no hino mu gihugu uhasanga amafarumasi, atuma Abanyarwanda boroherwa no kubona imiti mu gihe barwaye, ibi ngibi byagabanyije ingendo zakorwaga mbere ugasanga bitumye n'abantu bapfa.

Ibigo Mpuzamahanga byahagurukiye gufatanya n'ubuvuzi bwo mu Rwanda, kugira ngo serivisi zitangwa zihute kandi hagabanuke impfu zagendaga ziterwa na serivisi zikennye.

Iyo ari mu gitondo usanga kwa muganga bamwe mu barwayi ndetse n'abarwaza bagiye kureba ahantu bicara kugira ngo akazuba kabatungukireho bafate agashyuhe, ibi ngibi babikora bitwaje ibitenge abandi bambaye amakoti.

Ubuvuzi bwateye imbere cyane, ku buryo usanga mu byumba bakoreramo kubaga umuntu wagize ikibazo gikomeye, biteguye neza cyane, harimo amatara yabugenewe, ibitanda byabugenewe ndetse yewe ugasanga harimo isuku utabona ahandi hantu aho ariho hose.

Kwa muganga batanga serivisi z'ubuzima bakazitanga neza cyane kandi mu buryo bwateguwe, iyo umurwayi agiye kwa muganga bamwitaho bakamuganiriza ndetse yewe bakamuha n'icyizere cy'uko azakira vuba.

Ibitaro by'abana usanga harimo abana benshi bababaye, ariko kubera yuko kwa muganga basanasana iminsi ikicuma, abana bose bajyanywe kwa muganga babitaho kandi mu buryo bwiza, baba bazi kubaganiriza neza babasekera bigatuma bagira icyizere cyo gukira.

Mu rwego rwo gutuma abaturage boroherezwa kubona serivisi z'ubuzima, muri buri karere hagiye hashyirwaho ibitaro bikomeye bifasha abaturage bo muri ako karere kwivuza bitabagoye.

Tumwe mu duce tutari dutuwe n'abantu benshi, twagiye dushyirwamo ibikorwa remezo nk'ibitaro, amashuri n'ibindi, bigatuma abantu bagenda batura muri utwo duce, ubu tukaba tubayeho nko mu mujyi.

Hari abantu batinyaga kwa muganga batinya yuko imiti yabo ishobora kuba igira ingaruka, ariko ubu hakozwe ubukangurambaga abantu benshi bigishwa umumaro wo kugana amavuriro kuko bakuvura ku gihe.

Mu turere dutandukanye two mu Rwanda, tugaragaramo ibitaro bya Leta ndetse n'ibyigenga byujuje ibisabwa ku buryo umuntu iyo agiye kurwariramo aba afite icyizere yuko azakira kuko aba arwariye ahantu heza.

Iyo umuntu arwaye aba agomba kwisuzumisha indwara, yamara kuyisuzumisha bakamubwira n'imiti ajya gufata muri farumasi, ibi ngibi bigabanya imirongo ikorwa ku bitaro umuntu akajya no mu zindi gahunda.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigomba kuba zikoze neza, zirimo amasuku ahagije, ku buryo umurwayi ageramo akumva yuko nawe ari ahantu heza cyane, bityo bikamufasha gukira indwara arwaye mu gihe gito.

Abakora ku bitaro bya Rwamagana bavuga yuko intego bafite ari uguha serivisi nziza ababagana kubera yuko nabo Leta iba yabahaye ibyo bakeneye byose kugira ngo bakore akazi kabo neza.

Mu mavuriro ya Leta atandukanye haba harimo ibikoresho byabugenewe nk'ibitanda, intebe ndetse n'ibindi bifasha abaganga koroherwa mu kazi kabo, ibi ngibi bituma serivisi zose zigenda neza.

Mu bitaro bya leta hari aho ugera ugasanga hari udushushanyo dushimishije nk'udupupe, ndetse n'utundi tuntu, utungutu dufasha abana bakiri batoya kuruhuka mu mutwe iyo barwaye, ndetse si abana gusa, n'abantu bakuru bibaruhura mu mutwe.

Iterambere ry'ibikorwa remezo riri kwihuta cyane mu Rwanda, cyane cyane nk'amavuriro ndetse n'ibitaro bigiye bitandukanye bigenda byubakwa, ibi ngibi byorohereza abaturarwanda kubona serivisi z'ubuzima biboroheye.

Mu myaka ya kera wasangaga nko mu karere kose hari ibitaro ahantu hamwe gusa. Ariko ubu ngubu usanga akarere gafite amavuriro menshi kuko kuri buri murenge haba hari ibitaro by'umurenge bizwi nka Centre de sante.

Iyo ukigera kwa muganga usanga hari abantu bagiye batandukanye nk'abarwayi, abarwaza, abaganga ndetse n'abandi bakozi batandukanye bakora ku bitaro, akenshi usanga abarwayi bicaye ahantu runaka bari kota akazuba.

Usibye kuba ibitaro byarongerewe mu Rwanda bikaba byinshi hari n'amafarumasi yigenga yashyizweho akorana na mituelle de sante, aho umuturarwanda wese ashobora kujya akabasha kubona imiti.

Umubyeyi ugiye kubyara agomba kwihutanwa akajyanwa kwa muganga. Iyo ageze kwa muganga hari inzu yabugenewe y'ababyeyi bamujyanamo ubundi agakurikiranwa n'ababyaza kugeza abyaye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigomba kuba zujuje ibisabwa. Zigomba kuba ziteye neza zubatse neza zirimo ibikoresho byose byabugenewe bifasha abaganga bikanaborohereza mu gutanga serivisi.

Ku bitaro byo mu Rwanda aho biva bikagera uhasanga ibiro Isange One Stop Center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakabagira inama.

Mu bitaro by'ubu ngubu usanga harimo isuku nyinshi cyane kugira ngo abarwayi barwarire ahantu hameze neza, bidatuma bandura izindi ndwara ziturutse ku mwanda, usanga isuku yo kwa muganga yitaweho cyane.

Mu bitaro by'ubu usanga ikoranabuhanga ryarateye imbere ku buryo bugaragarira buri wese, hari aho usanga harimo agatereviziyo kifashishwa n'umuganga uri imahanga, agatanga amabwiriza atandukanye, bakaba babaga umuntu biturutse ku ruhare rw'umuntu uriyongiyo kure.

Mu nyubako zo kwa muganga usanga buri serivisi yose ifite ahantu itangirwa, urugero nko gusuzuma hari aho bikorerwa, gutanga imiti hari aho bikorerwa ndetse no gutanga ibizamini byose bikagira aho bikorerwa.

Akenshi iyo ugiye mu bitaro uhasanga abantu bababaye cyane bafite indwara z'uburyo bwose, hari abo baba bashyizemo za serumu kugira ngo babashe no kubona amaraso, ibi ngibi bituma bakira vuba

Ahantu hagenewe gukorerwa ubushakashatsi hari inzugi z'ibirahuri, ndetse harasa neza cyane rwose ku buryo ubona yuko ikintu cyose wajya kuhakorera watekereza neza, kuko hameze neza cyane hari purafo ndetse n'itara ririmo riraka.

Leta y'u Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima bagiye bashyiraho ibitanda byabugenewe muri buri bitaro kugira ngo abagana serivisi z'ibitaro, bajye baba baguwe neza cyane kandi bumve batuje muri bo kuko barwariye ahantu hameze neza.

Mu myaka yo hambere wasangaga abakobwa bipfobya ngo ntabwo bakora siporo ngo ibyo ni iby'abasore, ariko ubu nabo bamenye agaciro ka siporo, basigaye bazikora ndetse ku bwinshi bakajyana na basaza babo.

Abakora imyitozo ngororamubiri rimwe na rimwe bajya babikomerekeramo, iyo ibyo bibaye baba bagomba kugana ivuriro ribegereye bakareba uko babashyiriraho igipfuko, ndetse bakabakanda nk'uko bigomba kumera.

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri akagira impanuka akavunika cyangwa agacika igisebe, aba akeneye abantu babihuguriwe bamuterura neza bakamujyana ahantu habugenewe, ubundi agahabwa imiti yo kugabanya uburibwe.

Mbere yo gukora siporo banza urebe niba urabasha kubona ibintu bigufasha kwiyitaho, nk'imbuto ndetse n'amazi kuko iyo utakaje isukari n'amazi mu mubiri uba ukeneye ikintu kiragufasha kubigarura mu mubiri.

Abakora imyitozo ngororamubiri baragirwa inama yo kujya bubahiriza inama z'abatoza ndetse bakanazirikana yuko mu gihe bari gukora siporo bagomba kujya banywa amazi meza, kuko baba batakaje n'andi menshi.

Ubundi nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga, iyo umuntu akoze siporo bituma iminsi yo kurama yiyongera, akenshi na kenshi usanga abakiri bato nk'abasore ari bo babyitabira, ariko n'abantu bageze mu zabukuru birabareba.

Ni byo koko njye nararibonye imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko usanga uwayikoze aruhuka mu mutwe ndetse ibintu bye byose akabikora ku murongo nkuko yabiteganyije.

Iyo umuntu akunda gukora siporo biba byiza iyo agannye amaduka acuruza ibikoresho bya siporo, kugira ngo bijye bimworohereza mu myitozo ngororamubiri. Nk'abakunda umupira w'maguru baba bagomba kugura ballon, abakunda siporo yo ku magare nabo bakagura amagare yo gukoresha.

Bitewe n'uko imyitozo ngororamubiri, ari ikintu abantu bagomba gusobanukirwa, bakacyimakaza mu mibereho ya buri munsi, Leta y'u Rwanda yashyizeho umunsi ngarukakwezi, wo gukora siporo rusange, ibi byagiye bituma abantu bayikunda, bakajya banayikora ku giti cyabo.

Abakora imyitozo ngororamubiri icyo bahurizaho ni uko baba ari abantu bafungutse mu mutwe kandi batagira stress kuko siporo ituma abantu baruhuka mu mutwe, bagakora ibintu byose ku murongo.

Abakina imikino y'amaboko nka volley, basket ndetse n'ibindi batozwa gusimbuka cyane kugira ngo bajye babasha kugeza umupira aho ugomba kugera, uramutse utabasha gusimbuka ntabwo iyi mikino wayikina neza.

Nkuko twagiye tubibwirwa kenshi yuko siporo ari ubuzima, buri muntu wese ukora siporo hari ibintu agomba kuzirikana. Kwita ku biryo arya, kwita ku ho aryama ndetse no kwita ku mibereho yo mu buzima bwe busanzwe.

Siporo kugira ngo ikorwe hari ibikoresho byinshi byabugenewe, bituma abantu bakora siporo bya kinyamwuga ariko byaba byiza bagiye bafasha n'abantu bafite ubushobozi buke, bagasobanukirwa n'ibi bikoresho bya siporo.

Iyo ukoze imyitozo ngororamubiri ku rwego rwiza bijyanye n'umubiri wawe uko umeze, bitewe nuko abaganga cyangwa se abajyanama bagukoresha bakubwiye biragufasha ukagira ubuzima buzira umuze.

Abenshi iyo bavuye muri siporo bakunda gukoresha amazi meza cyane akonje kuko bituma umubiri wabo ukomeza kuzamo ubuhehere ndetse n'amahumbezi menshi cyane.

Iyo umuntu akora siporo birumvikana umubiri we uba ugomba kuba urimo intungamubiri zihagije ndetse afite n'imbaraga, ategekwa kujya arya amagi kenshi ndetse n'inyama n'imbuto.

Kubera yuko abantu benshi bamenye ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, basigaye bagura imyenda yabugenewe mu maduka ayicuruza. Ntabwo bita ku biciro kabone n'ubwo yaba ihenze barayigura kubera yuko baba bagiye gusigasira amagara yabo.

Imibare y'abakora imyitozo ngororamubiri yariyongereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, ugereranyije no mu yindi myaka yabanje, mbere wasangaga abantu badasobanukiwe umumaro wo gukora siporo, ariko ubu abantu benshi barasobanukiwe.

Nubwo gukora siporo ari ingenzi ku buzima ariko iyo biherekejwe no gufata imbuto nk'indimu, amatunda, pome, imineke, ibi ngibi bituma umubiri umera neza kuko ahavuye imbaraga uba wahasubije intungamubiri.

Siporo yatejwe imbere ku buryo hagiye haza ibikoresho bya kizungu bifasha abantu gukora siporo batavunitse cyane. Siporo ni ubuzima mureke twese Abanyarwanda twimakaze gukora siporo tuyigire umuco.

Mu gihe umuntu ari muri siporo akabona agiriyemo akabazo nk'imvune arasabwa kwishyiraho agatambaro gakonje bigatuma umubiri ukora neza cyane ndetse akoroherwa.

Ibirango bitandukanye bigaragaza ukuntu siporo ikorwa, bituma abantu basobanukirwa neza uburyo bwo gukora siporo, ndetse bakamenya umumaro wa siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bwacu mureke twese twimakaze gukora siporo bizatuma tubaho neza.

Kwikandisha agatambaro gakonje mu ngingo mu gihe wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, ibyo ngibyo bifasha umubiri wawe kumera neza, ugakora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri nkuko byahoze. Benshi mu bagana imyitozo ngororamubiri bakunda gukoresha ubwo buryo kugira ngo bongere bamere neza.

Niwumva bavuga ko siporo ari ubuzima ntuzagire ngo ni ukugenda ugakora siporo gusa. Ukora siporo agomba kuyikora mu rugero ndetse akabona n'ibintu bimufasha kwiyitaho kugira ngo agarure imbaraga aba yatakaje.

Abaganga ni bamwe mu bantu wabafatiraho icyitegererezo mu kugira isuku, usanga ibintu byabo byose babikora ku mutuzo kandi babiteguye, ibi bituma bakora akazi kabo neza kuko baba bari kugenzura ubuzima bw'abantu.

Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko gukora siporo ku buryo buhoraho bigabanya stress ndetse bikagabanya ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso, ikindi ngo bifasha mu bikorwa by'igogora.

Imbuto z'amoko atandukanye zifasha mu mikorere myiza y'umubiri nk'avoka ndetse na pome ,chou fleur ndetse n'ibindi bintu harimo n'amatunda n'inyanya.

Abakora siporo yo gusiganwa ku maguru, bavuga yuko ari siporo ivunanye cyane, kugira ngo uyikore rero bisaba yuko uba ufite igihaha gikora neza cyane kurusha abandi, kuko iyo bimeze gutya ni nabwo utsinda irushanwa.

Imyitozo ngororangingo usanga igira umumaro cyane cyane no ku bantu bari mu zabukuru, kuko ivura za ndwara zitwa za rubagimpande, ndetse ugasanga umuntu rwose n'ubwo yaba ari umusaza umubiri we urakora neza cyane.

Nta muntu ubayeho neza nk'umuntu ukora siporo, byongeye akaba afite umuntu umwitaho, uyu usanga umubiri we umeze neza kuko siporo aba akora nta ngaruka ziba zamugiraho kubera yuko akora siporo zagenwe.

Iyo umuntu akoze siporo afite umuntu uri kumutoza, usanga akora ibintu umubiri we wari ukeneye kuko bano bantu batoza abantu gukora siporo, bagutoza neza akantu ku kandi ku buryo ntakosa ugomba gukora.

Abakora siporo bashyizeho umwete nibo usanga bafite amagara mazima, usanga batarwaragurika, nta mavunane ndetse nta na sitiresi bakora ibintu ku murongo kandi icyo bakoze cyose bakagikora bagitekerejeho.

Umupira wo gukina na wo ni igikoresho cya siporo, uba ugomba gufatwa neza ukabikwa ahantu habugenewe ndetse nyirawo agasuzuma niba nta kibazo wagize mbere yuko ajya kuwukoresha.

Gukora siporo nabyo bigira amabwiriza, ntabwo ari ugupfa kugenda ngo uhite ukora, ugira uko urambura amaguru, ukagira uko urambura amaboko kugira ngo buri kintu cyose ugikore ku murongo ndetse ntiwangize ibindi bice by'umubiri.

Abahanga mu bya siporo ntago bajya batana no kunywa amazi mu gihe bari gukora siporo, kuko abaganga ba siporro bavuga y'uko, iyo umuntu akoze siporo atakaza imbaraga nyinshi ndetse n'amazi menshi, bityo aba akeneye kuyagarura mu mubiri.

Mu mikino imwe n'imwe y'ingorororangingo usanga bakina bafite ibikoresho by'ubwirinzi, aho bategekwa kwambara amakasike ndetse n'imyenda ibafasha kwirinda impanuka nk'amaga ndetse n'inkweto zabugenewe, ibi ngibi bibafasha gukina neza nta kintu kibahungabanya kuko baba barinze ubuzima bwabo.

Abakora imyitozo ngororamubiri baba bagomba kwambara imyenda yabugenewe ndetse bakanakorera mu byumba byabugenewe kugira ngo birinde impanuka bashobora guterwa no gukorera siporo ahantu hatemewe.

Ibikoresho bya siporo nk'imipira yo gukina, imikino itandukanye usanga biri ku masoko atandukanye yo mu Rwanda ku giciro cyiza. Ni ngombwa ngo buri muntu wese yegereye amasoko yabugenewe ahagurire ibikoresho bya siporo yakoresha.

Abakora siporo basobanura y'uko ibikoresho byo gukoresha imyitozo ngororamubiri byongerewe bigatezwa imbere bikaba byinshi, bityo ibi bikaba bibafasha gukora siporo zo ku rwego rwo hejuru.

Abajyanama ba siporo hari uburyo bagira inama abantu bose bakora siporo, kuko hari ukuntu baba bagomba kugorora imibiri yabo kugira ngo hatagira n'ibindi bice by'umubiri bangiza.

Iyo umuntu agize ikibazo ari muri siporo hakabaho gukomereka cyangwa kuvunika, agirwa inama yo gufata agatambaro gakonje akakarambika ahantu hagize ikibazo, ibyo ngibyo abikora iminota yagenwe maze ibintu bikagenda neza.

Abahanga mu byo gukora imyitozo ngororamubiri bavuga yuko iyo umuntu ayikora biba bigomba kujyana n'ibyo arya, akarya ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyitozo ngororangingo ni byiza yuko bagira umuntu w'umujyanama, ubafasha mu kubarebera icyo bagomba gukora ndetse n'igihe bagize ikibazo bakabafasha.

Abakora siporo baragaragaza imbogamizi y'uko kenshi na kenshi bajya bahuriramo impanuka zitandukanye nko kuvunika, kugira ibikomere bitandukanye ku mubiri, ibi byose rero iyo bibaye bagana amavuriro bakabitaho.

Ubundi siporo ni ubuzima, abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko iyo umuntu akoze siporo bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse n'umwuka ukinjizwa n'ibiha neza mu mubiri, abantu bose barashishikarizwa gukora siporo.

Amazi akunda kugirira umumaro abavuye gukora imyitozo ngororamubiri, kubera yuko aba yatakaje ibyuya byinshi kandi muri ibyo byuya biba birimo amazi, aba akeneye rero kunywa amazi meza kugira ngo amazi yatakaje yongere agaruke mu mubiri.

Abaganga b'amakipe atandukanye, yaba abakina umupira w'amaguru, yaba abakina imikino y'intoki, baba bagomba kwitwaza ibikoresho bitandukanye urugero nka Blanchard zo gushyiraho abantu mu gihe haba hari abavunitse.

Abajyanama mu bya siporo hari ibikoresho bavuga byagenewe gukoresha siporo, hari imipira yabugenewe, inkweto, imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bigura amafaranga menshi, ubona ari uko ugiye ahakorerwa siporo rusange.

Amazu akorerwamo siporo usanga afite ibikoresho bihagije ku buryo buri muntu wese ushaka gukora siporo bamukoresha neza kandi mu buryo bugezweho, bigatuma umubiri we ugenda neza, imitsi ikagororoka, akaba afite ejo hazaza heza.

Yambaye agasheneti mu ijosi n'umupira w'ubururu arimo aranywa amazi afite ubwanwa bwinshi cyane, ni umugabo ujya kwirabura w'imibiri yombi kunywa amazi ni byiza cyane mubu buzima bwa muntu mureke twese twimakaze ikintu cyo kunywa amazi.

Iyo umuntu agiye mu myitozo ngororamubiri ashobora guhura n'ibibazo by'imvune cyangwa se agakomereka. Igihe ibi bibaye rero agomba kwitabaza ibitaro bimwegereye agafata imiti imufasha kugabanya uburibwe.

Mu by'ukuri ntabwo wasoza gukora siporo ngo ureke kunywa amazi. Ndakangurira abantu benshi, bafata amazi nk'aho ari ikinyobwa cy'abakeneye y'uko amazi ari ubuzima, amazi yagenewe abantu bose.

Bamwe mu bakora siporo nk'ababigize umwuga bavuga yuko usibye kuba siporo ari ubuzima ishobora no kuba inzira y'amafaranga; nk'urugero, aba bakora ibintu bitandukanye bitangaje, hakaba n'ubwo hari ababishyura amafaranga.

Ubwo icyorezo coronavirus cyageraga mu Rwanda wasangaga amabwiriza yo kucyirinda amanitse ahantu hatandukanye, cyane cyane nk'ahahurira abantu benshi. Harimo ku bigo by'amashuri, ku nsengero, ku masoko ndetse no ku maduka ahahiraho abantu benshi.

Akenshi na kenshi usanga abasore bafite amatuza ndetse n'amaboko ariho pinya barakoze siporo neza, bagaterura ibyuma ndetse bakubahiriza amabwiriza yose agenga siporo, harimo nko gufata amafunguro yuje intungamubiri.

Ufite ubumuga bw'ingingo iyo ahawe imbago biramufasha cyane n'ubwo agenda atagenda nk'abandi bantu bose, ariko bipfa kuruta kuba yagendera mu kagare.

Siporo ni ubuzima muri rusange ariko na none ntabwo twakwirengagiza yuko zituma rimwe na rimwe abantu bakomereka ndetse bakanavunika. Iyo bavunitse rero hari imiti yabugenewe baba bagomba kwifashisha.

Abakunze gutemberera mu misozi, bagirwa inama yo kwambara inkweto zabugenewe kugira ngo hataba hagira impanuka iba bitewe no gukandagira nko mu bisongo cyangwa mu mabuye yatuma ibirenge byangirika.

Hambere mu Rwanda wasangaga imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abasore gusa, ubu n'abakobwa barayihagurukiye na bo bamenye agaciro ko gukora siporo. Siporo ni ubuzima mureke twese dukore siporo.

Ahakorerwa siporo rusange hasangwa ibikoresho byinshi cyane, bifasha mu kugenzura umuvuduko n'imbaraga ziba zakoreshejwe n'abakora iyo siporo, ibyo bituma umutoza amenya siporo agomba gukoresha umuntu bitewe n'imbaraga ze.

Iyo umuntu agiye gukora imyitozo ngororamubiri, usanga imitsi yose yahagurutse ,kubera yuko amaraso aba ari kugenda cyane ugereranyije n'ubundi buryo asanzwe agendamo. Ibi ngibi bifasha umutima kugira imbaraga ,ndetse n'ibihaha bikunguka umwuka mwiza wo guhumeka.

Hari imiti myinshi ituruka ku binyabuzima abantu benshi batari bazi gukoresha mu myaka yo hambere, nk'amakara abantu bari bazi ko umumaro wayo ari ukuyacana gusa biraho, none ubu ngubu amakara ni umuti ukomeye cyane.

Umuti uvura indwara z'uruhu bakora mu gikakarubamba, ni umwe mu miti yizewe cyane nko mu miti ya gakondo, kuko usanga uwawukoresheje indwara idakomeza kuganza mu mubiri we, ahubwo ikoroha vuba.

Imiti gakondo ikunze kugaragara mu bihuru n'ahantu umuntu atatinyuka kugera, ni byiza yuko hashakwa imbuto zayo ikajya ihingwa mu mirima rusange abantu bakunze kugeramo, ibi byatuma ubuvuzi gakondo butera imbere.

Ibimera bigira indabo nziza cyane zihumura, aho usanga abantu benshi bakunda kujya ahantu hari indabo bakifotoza, bakahagirira ibihe byiza, ndetse ugasanga ni ibintu byiza cyane, nawe ukaba wumva wabishaka cyane ukaba wajyayo, ukigera ahantu hari izo ndabo, ukagira ibyo wahakorera.

Kera wasangaga abantu badasobanukiwe umumaro w'ibikakarubamba, ni ibimera usanga mu ntoki, mu mirima, mu bisambu ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Kera wasangaga ibikakarubamba biri ahantu mu rutoki mu bihuru ndetse n'ahandi, ariko ubungubu usanga ibikakarubamba hari ababihinga bakabikoramo ubuhinzi bwa kinyamwuga bubaha amafaranga menshi umunsi ku munsi.

Kera tutarasobanukirwa yuko umuravumba ushobora kuvura, twarawufataga tukawutema, tukawupfusha ubusa ku buryo bugaragara. Ariko ubu ngubu hagaragaye yuko ushobora kuvamo imiti itandukanye ivura indwara zinakomeye.

Abatunganya ndetse n'abacuruza imiti gakondo bavuga y'uko biba bigoye kuvumbura umuti uwo ari wo mu gihuru kirimo ibyatsi byinshi gusa kuko baba babimenyereye batangaza ko bashishoza mpaka bavumbuye icyatsi cyavamo umuti.

Hari ibyatsi byinshi bishobora kuvamo imiti gakondo ariko ikibazo ni uko abantu baba batabisobanukiwe, rimwe na rimwe usanga babifata nabi bakabitema, bakabitwika ndetse yewe bakanabigaburira amatungo, iyaba rero buri muntu wese yari amenye agaciro k'ibimukikije.

Umuhati ni kimwe mu biti dukunda kubona kenshi buriya rero umuhati ushobora kuvura indwara nyinshi zo mu mubiri umuntu agakira akamera neza cyane, mureke imihati dufite tujye tuyitaho tuyikoreshe neza.

Mu myaka yo hambere abantu bari bazi yuko igikakarubamba ari ibyatsi bimera ntacyo bimaze ariko kuva aho byatangiriye gutunganywa, ubu hari n'abasigaye babihinga bya kinyamwuga bakabikuramo amafaranga.

Ni byiza kuba umuntu ajya kugura umuti gakondo mbere yuko bamubwira amafaranga yishyura, bakabanza kumwereka ingano yawo. Hari imibare baba bagomba kwandika ku gipfunyika gipfunyitse uwo muti, kugira ngo byorohere buri wese kubona ingano y'uwo muti.

Imiti y'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura cyane cyane indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara abantu bagenda barwara mu buzima bwa buri munsi, ni imiti ya gakondo ndetse ikora neza rwose kurusha n'imiti ya kizungu.

Hari ibyatsi byinshi bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko usanga abaturage batabifiteho amakuru, ni ngombwa ngo abahanga mu byo kumenya imiti gakondo bazafate igihe baganirize abaturarwanda bose babahugure.

Ibyatsi byimeza cyangwa se ibyo batera, ibyinshi muri byo bikunze gukorwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye, ibidukikije rero ni ingirakamaro, mureke twese tubyiteho nk'uko bikwiye.

Hari uburyo imiti gakondo myinshi ishobora kubikwamo ikamara igihe kirekire, ikazifashishwa no mu myaka myinshi iri imbere, abakoresha imiti gakondo barasabwa kujya bayikoresha mu bushishozi bwinshi bubahiriza ibipimo biba byatanzwe.

Abiyemeje kujya batunganya ibimera bakabikuramo imiti, hari ibikoresho baba bafite bifashisha kugira ngo bayitunganye imere neza, ndetse itange umusaruro. Hari nk'udusekuro twabugenewe ndetse n'ibindi.

Abatunganya ndetse bakanapfunyika imiti gakondo yatunganyirijwe mu nganda cyangwa se yatunganyijwe ku buryo bwabugenewe, usanga bishimira y'uko igira isoko cyane cyane hano mu Rwanda.

Imiti ihabwa abarwayi ni imiti iba yabanje gutekerezwaho neza n'abaganga bashinzwe gutanga imiti, utanga imiti ashingira ku bisubizo yandikiwe n'uwo mu isuzumiro, na we akamenya ibyo aza kugenera umurwayi.

Hari indwara nyinshi zivurwa nk'imiti gakondo, cyane cyane nk'imiti ikunda kwifashishwa, tangawizi, ndetse n'amaronji, ukabikamura ukabikora nk'umutobe, uranywa, ibyo rwose bivura ibicurane ndetse n'inkorora ku buryo butangaje.

Inganda nyinshi usanga zikora amavuta akomoka ku bimera, mwene ayo mavuta usanga atagira ingaruka ku mubiri kuko ntabwo atera ibiheri ahubwo atuma uruhu ruhora rukeye rusa neza.

Abantu benshi bakunda kubyitiranya bakavuga bati tungurusumu inuka mu kanwa rero ntacyo yamara, uriya munuko nta kintu na kimwe usobanuye ugereranyije n'indwara tungurusumu ibasha kuvura, iyo uyikoresheje ugakoresha na tangawizi bituma uburwayi bw'ibicurane bugabanuka.

Ibyatsi bishobora gutunganywa bikavanwamo imiti ipakinze ku buryo bwiza, ku buryo byorohera abantu bayikoresha kuyikoresha bitabagoye kuko itwararika neza ndetse ikabikika neza.

Abajyanama mu byo gukoresha imiti gakondo, bagira inama abantu bose y'uko bagomba kwitondera ibyo barya kugira ngo na byo ntibibe byabanduza indwara, usanga iyo umuntu ariye ibintu bidafite isuku, na byo bituma indwara nk'inzoka ziyongera muri we.

Uramutse wirengagije uburyo imiti gakondo ivura kandi nta nkurikizi izana waba ushatse kwirengagiza umumaro w'ibidukikije kubera yuko imiti gakondo ifasha abantu benshi cyane kandi bagakira.

Kera abantu bari bazi yuko ubuki ari ukubufata bakaburya byonyine gusa cyangwa se bakabwifashisha benga inzoga zitandukanye ariko ubu ngubu ubuki buvamo ibikoresho bitandukanye nk'amavuta ndetse n'imiti y'indwara zitandukanye.

Akenshi iyo ugiye mu iduka ricururizwamo imiti gakondo, usanga harimo umuntu ugusobanurira buri muti ndetse n'umumaro wayo, ibingibi bigatuma wivuza neza indwara yawe igakira vuba kuko uba wafashe imiti bikwiranye.

Ibimera ni ingirakamaro cyane mu mivurire cyane cyane nk'ibyatsi byitwa kapusine bivura inkorora ndetse n'ibicurane ibi byatsi bikunda kugaragara ahantu mu cyaro ntabwo wapfa kubibona ahantu ho mu mujyi cyangwa se ahantu hatuye abantu benshi.

Kera wasangaga abantu bakoresha imiti gakondo batabifiteho amakuru bakivura kandi bagakira indwara, ariko ubu ngubu ntekereza yuko abantu baramutse baganirizwa ku buryo iyo miti yakoreshwa mu buryo bwiza, byatuma indwara ndetse n'imfu zigabanuka.

Kera wasangaga ababyeyi bafata umwanya wo gusobanurira abana babo ibijyanye no kwivurisha imiti gakondo, ariko kuri ubungubu imiti ya kizungu niyo ikoreshwa cyane kurusha imiti gakondo, nimureke dutoze abana bacu kujya bamenya umumaro w'ibyatsi kuko bishobora kuvamo imiti.

Ubuhinzi bw'indabo busigaye bukorwa mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo usanga hari indabo zoherezwa no mu mahanga zikabyazwamo imiti itandukanye, ibi ngibi bituma abazihinga bavuga yuko ari umwuga mwiza cyane kandi barawishimira.

Iyo urebye ibyatsi bitandukanye hari ibyo ureba ukabona nta kintu cyavamo, ariko abahanga mu gutunganya imiti gakondo babikoraho ubushakashatsi bagakoramo imiti ivura abantu, bakaramira ubuzima bw'abantu batandukanye.

Igikakarubamba ni umuti uvura indwara z'uruhu zigakira neza cyane ku buryo usanga umuntu wawukoresheje, afite uruhu rwiza rubengerana, ugereranyije n'abatarukoresha. Abanyarwanda barashishikarizwa gukoresha imiti gakondo nk'ibikakarubamba.

Benshi mu banyarwanda batangaza yuko igikakarubamba batari bazi yuko gishobora kuvamo umuti uvura indwara ndetse zinakomeye. Ariko ubu bavuga ko batunguwe no kubona ari ingirakamaro ndetse cyubashywe cyane n'abasobanukiwe iby'imiti gakondo.

Bamwe mu batunganya imiti gakondo bavuga yuko babonye imashini zabugenewe zibafasha mu kuyitunganya ndetse no kuyipfunyika mu dukarito twabugenewe, ibi ngibi bituma imiti yabo ibona isoko.

Byinshi mu bivamo imiti gakondo abantu ntabwo babisobanukiwe neza, kuko hari n'ibyo usanga tubona iwacu mu ngo tukabipfusha ubusa tugira ngo nta cyo bimaze. Ni byiza rero yuko twahugurwa kuri ibyo bintu byose.

Imiti gakondo iva muri bya byatsi dukunda kubona mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo ari bya byatsi bivuye i Burayi cyangwa mu bindi bihugu, na hano iwacu dufite ibyatsi byavamo imiti gakondo kandi ikavura abantu benshi.

Kera mu myaka yashize wasangaga umuntu agenda agashishura uruhu rw'igiti runaka, akagikuramo umuti uvura indwara zitandukanye. Urugero nk'umuvumu ndetse n'ibiti by'imisave, byakundaga kuvamo imiti muri ubwo buryo.

Abahanga bavuga yuko umuti w'amenyo ukozwe mu miti gakondo, ushobora kuvura amenyo uburwayi bwose afite, bigatuma nyirukuyikoresha akomeza kugira mu kanwa heza cyane, hifuzwa na buri wese.

Imiti gakondo ishobora gukoreshwa ku ndwara zifata ubwonko n'iz'imitekerereze, iyo miti iyo ikoreshejwe neza bigirira umumaro nyirukuyikoresha ndetse indwara ikabasha kugenda yoroha.

Abatunganya imiti gakondo usanga bafite udukoresho twabugenewe bifashisha batunganya iyi miti, usanga bafite utumeze nk'udusekuru basekuza ibyatsi maze bikavamo imiti itandukanye.

Ni ngombwa yuko buri munyarwanda wese amenya iki kintu, niba ugiye gukoresha imiti gakondo banza usuzume neza, urebe n'abahanga muri yo baguhugure uko wayikoresha, uramutse utabigenje utyo wakisanga ahubwo wiroze, aho kugira ngo wivure.

Abacuruza imiti ikomoka ku bimera itunganyije, basobanura yuko bituma babona inyungu nyinshi, ugereranyije n'igihe bacuruzaga ibyo babonye byose, bakomeza bagira bati bazakomeza gutanga n'umusoro kugira ngo bubake igihugu cyababyaye.

Kera wasangaga abantu bafata igikakarubamba bakivura mu buryo busanzwe nta buryo cyatunganyijwemo ariko ubu haje inganda zigitunganya neza, ku buryo usanga gipakinze neza mu bikoresho byabugenewe, ibi ngibi bituma iyo miti byoroha kuyikoresha.

Imiravumba ni ibyatsi bikunda kugaragara ahantu henshi cyane mu Rwanda, ibi byatsi by'imiravumba wasangaga abantu bakera babyifashisha bivura inkorora ndetse n'ibicurane, ibi byatsi tubisigasire bibyazwe umusaruro mu buryo bwa kizungu.

Abanyarwanda bo hambere wasangaga bazi kwivusha ibyatsi ku buryo wasangaga nta muntu warembaga cyane, kuko babaga bafite ukuntu bazi gutabara amagara yabo ibintu bitarakomera cyane.

Ubuhinzi bw'inanasi ni kimwe mu bintu byinjiza amafaranga cyane muri iki gihugu kubera yuko umutobe w'inanasi uratunganywa ukavamo ibikoresho bitandukanye. Urugero harimo amaji ndetse n'imiti.

Iyo ugeze ahantu batunganyiriza imiti gakondo ubanza gutungurwa n'ibintu bihari, ariko uko ugenda uhamara umwanya bagenda bagusobanurira byose ukagenda ubimenya akantu ku kandi.

Byinshi mu byatsi bivamo imiti gakondo abantu ntabwo bari babisobanukirwa neza, birasaba yuko abahanga muri byo bazategura umunsi n'iyo waba rimwe mu mwaka, bakigisha abantu gukoresha imiti gakondo.

Abaturarwanda bose baragirwa inama yo kujya bafata neza ibyatsi babona. Kuko icyatsi icyo aricyo cyose gishobora kugira umumaro, kuko cyavamo umuti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byakoreshwa.

Abatanga imiti gakondo na bo bafite ukuntu batanga ibipimo byagenwe ntabwo bapfa gufata imiti ngo bahereze umuntu batanamusuzumye, baramusuzuma bakamenya uburemere bw'indwara afite maze bakamenya n'ingano y'imiti bari buze kumuha.

Imiti gakondo ifasha abaturage kwivura indwara batiriwe bajya kwa muganga. Urugero hari ukuntu umuntu ashobora gucika igisebe akirwanaho, atiriwe akora ingendo ndende cyane kubera yuko imiti gakondo irafasha cyane.

Muri iyi myaka imiti gakondo yatejwe imbere ku buryo usanga ipfunyitse mu bikoresho byabugenewe, ku buryo usanga ari ibintu bisa neza cyane ugereranyije no mu myaka yo hambere.

Mu miti gakondo igenda itunganywa igakorwa mu buryo bugezweho niho ugenda usangamo nk'imiti ivura kurangiza vuba, iyo abantu bari mu gikorwa cy'amabanga y'abashakanye.

Imiti gakondo iyo yateguranwe isuku ku bipimo byagenwe, uyifashe imugwa neza ndetse indwara nayo akayitera ishoti mu gihe gitoya cyane, abantu bose barasabwa kujya bakorana isuku ibyo bakora byose.

Abatunganya imiti gakondo hari uburyo bubiri bahurizaho yuko ariko bayitunganya, kugira ngo ijye ikoreshwa byorohereje umurwayi, bamwe bayigira ibisukika ikaba isukika imeze nk'amazi, bakayishyira mu ducupa, abandi bakayihindura nk'agafu.

Aha Leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima, barashimira abantu bose bagerageza gukora ubukangurambaga bwo kubwira abantu uburyo bakwivura bakoresheje ibimera, bamwe muri aba ni abakoresha imbuga nkoranyambaga zabo, bakigisha abantu gukoresha ibyatsi nk'imiti.

Kuba haraje uburyo bwo gufata imiti gakondo bakayitunganya ndetse bakayishyira mu bikoresho byiza byabugenewe, byatumye hari abantu benshi bayigirira icyizere kurusha uko mbere kera yatangwaga mu kavuyo.

Imiti iva mu gikakarubamba, usanga ari imiti myiza cyane ikunda kuvura akenshi na kenshi indwara zifata uruhu. Ibikakarubamba kera ntabwo byahabwaga agaciro ariko ubu ngubu usanga rwose aho biri, bifashwe neza.

Hari ibyatsi bikunda kumera ahantu hadasanzwe, urugero ukabona nk'icyatsi kirimo kirakura kirandaranda ku rugi cyangwa ku gikuta, bimwe muri ibi byatsi biba byifitemo ubushobozi bwo gukora ibyo byose, ariko hari igihe usanga ari imiti.

kera wasangaga nta buryo imiti ya gakondo itunganywamo, ariko ubu ngubu usanga imiti gakondo itunganywa neza cyane igashyirwa mu macupa yabugenewe, aho bifasha abarwayi kuyikoresha bitabagoye ndetse mu buryo busirimutse.

Abahanga mu byo gukoresha imiti gakondo bavuga yuko imiti gakondo ifasha umuntu gukira vuba kandi indwara yarwaye ikaba itazongera kugaruka vuba, abahanga mu by'ubuzima bakunda gukoresha imiti gakondo.

Abahanga mu byo gutunganya imiti bavuga yuko igikakarubamba kivamo umuti uvura indwara z'uruhu, uruhu rukagenda rukamera neza cyane. Si ibyo gusa, ababihinga na bo babona ko bibaha amafaranga menshi cyane.

Igikakarubamba cyatunganyijwe neza kivamo imiti ivura ibintu bitandukanye, hari umuti uvura indwara z'uruhu, hari umuti uvura indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, reka igikakarubamba tukiteho tugifate neza.